Ni abanyeshuri bigaga bakurikira ibyo tica wabo yabaga yabahaye, mwarimu wabo yabaga yabahaye, bari mu ishuri bigaga bakurikira amasomo yabo.